Abantu bateraniye ahantu bamwe baricaye abandi batatu muri bo bahagaze imbere, babateye umugongo, babiri muri bo iburyo ndetse n'ibumoso bambaye udupira tw'umukara, undi uhagaze hagati yambaye ikote ry'umutuku, barimo kumuhereza impamyabushobozi yanditseho amagambo y'umukara, ndetse mu nguni hariyo idarapo ry'u Rwanda.

Igikuta cy'inzu kiriho icyapa cyamamaza inzoga ya virunga iri mu icupa ry'kirahuri risize ibara ry'icyatsi n'umuhondo, hagati ashushanyijemo inyuguti ya V ifite agafuniko k'umuhondo.

Iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye, imbere yaho hari ibikoresho nk'indobo, ibase, tapi, n'ibindi kuruhande. Haparitse ipikipiki ifite ibara ry'umukara n'umutuku, ririho jerekani ndetse n'udufuka tw'umweru tubiri.

Inzu isize amarange y'umweru ndetse n'amadirishya y'ibirahuri, imbere yaho haparitse amamodoka ari mu mabara atandukanye umweru n'umukara ndetse hari uturongo tw'umweru tugenda twerekana aho baparika imodoka.

Isoko bacururizamo ibitenge ririmo ubwoko bw'ibitenge butandukanye, bugiye bumanitse ku biti harimo iby'umuhondo by'umutuku, n'ibifite amabara avanze, iruhande rwaho hicaye umugore wambaye ishati y'igitenge n'ipantaro y'ikoboyi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki yicaweho n'umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara urimo gutunganya ikirahuri, inyuma ye hari inzu ihagazeho abagabo ku ruhande ndetse n'imodoka.